Abagore n'abagabo bicaye ahantu, imbere yabo hateretse ameza, ariho uducupa tw'amazi yo kunywa, ni ameza y'uruzeru, ariho igitambaro gikoze mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara mu nzu hamo sima itukura, ku nkuta hasize amarangi y'umweru, ku gisenge naho nuko harimo n'amatara y'umweru, ameza abakikije hariho ibitambaro by'ubururu andi meza n' ibitambaro by'umuhondo n'uducupa twamazi.

Intebe nziza zifite ibara ry'umukara, zicayeho abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'umutuku, ateretseho ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu b'abayobozi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho agatambaro kari mu ibara ry'umukara, kuri ayo meza hariho impapuro zigiye zitandukanye ndetse n'uducupa turimo amazi, bigaragare ko hari inama barimo.

Abantu benshi batandukanye bicaye bambaye imipira iri mu mabara atandukanye, harimo abambaye imipira iri mu mabara, mu ibara ry'umuhondo, hari n'abambaye imipira iri mu ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwabo hariru umuntu uhagaze wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi afite mikoro ari kubabwira.

Abagabo bane bicaye ahantu bambaye imipira y'ubururu, umwe yambaye n'indorerwamo z'amaso. Afite na telefone mu ntoki. Undi yambaye isaha. Undi na we afite telefone mu ntoki gusa ari guseka. Abandi babiri muri bo bambaye imyenda idasa n'iy'abandi. Bose bari kureba imbere zabo barishimye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umutuku, hateretseho impapuro ndetse n'uducupa tw'amazi, bicaye ku buryo bw'uruziga bigaragare ko bari mu nama.

Abantu bicaye mu nama bambaye imyambaro igiye itandukanye, ariko bose bicaye ku ntebe z'umweru. Hejuru ku gisenge hari amatara ari kwaka mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo biyubashye bambaye amakositime bicaye ahantu. Umugabo umwe ari kuvugira ku ndangururamajwi, ameze nk'urigutanga igitekerezo cye ku byo bari kwigira hariya hantu.

Abantu bicaye umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati yumukara undi yambaye ishati y'umweru harimo n'amabara y'umukara inyuma yabo hari undi uhagaze yambaye ishati yumweru na karuvati y'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro ndetse na mashini.

Umugore w'inzobe cyane ufite imisatsi miremire iruhande rwe hateretse icupa ririmo icyo kunywa n'ikirahure na none ku rundi ruhande hateretse uturabyo twiza cyane, inyuma ye hicaye abandi bantu.

Abagabo batanu bicaye, imbere yaho hateretse ameza ari mu ibara ry'umutuku ateretseho uducupa turirimo amazi, imbere yabo hariho imashini igaragara ko bari mu nama.

Abantu bicaye ku ntebe nziza benshi imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi, ndetse n'impapuro bafite amakaramu mu ntoki bigaragare ko hari ibyo bari kwandika.

Abantu bicaye ku ntebe nziza imbere yaho hari imeza zifite ibara ry'umutuku hateretseho terefone, udupapuro ndetse imbere yabo hari mikoro bigaragara ko bari mu nama.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umutuku, imbere kuri ayo meza hateretseho uducupa turimo amazi, telefone ndetse n'ibitabo bitandukanye, imbere yabo hari mikoro bigaragare ko bari kuzikoresha bavuga ibintu bitandukanye.

Abantu benshi bicaye ku meza ari mu ibara ry'umutuku, bafite indangururamajwi impande zabo, bafite n'amazi arimo agacupa k'Inyange ndetse bicaye mu ntebe nziza cyane.

Abantu bicaye bambaye imipira y’imyeru, hariho ikirango cy’ibendera ry’u Rwanda .Imbere yabo hari ameza ariho icupa ririmo amazi, hakaba hariho n’udutabo tugiye dutandukanye twanditseho amagambo. Inyuma yabo, hari umuntu wambaye umupira w’ubururu n’ijire y’umukara uhagaze, bigaragara ko ari byo ari kubabwira.

Abantu bambaye imipira y'umweru, ni urubyiruko harimo abakobwa n'abasore, imbere yabo hari ishusho igaragara y'ibyo bari kwiga.

Ni sare ngari iteraniyemo abantu batandukanye harimo n'abazungu, bigaragare ko hari ibyo bari kwigaho, bafite za mudasobwa ndetse n'impapuro imbere ku meza yabo.

Ni abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku meza ari mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hagiye hari indangururamajwi, bafite za mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe ibirahure, harimo abagabo bambaye amakote, harimo n'abambaye amakanzu, bigaragara ko ari abayisilamu.

Abantu bicaye batatu harimo abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe imbere yabo hari ameza ateretseho telefone, imashini ndetse n'uducupa turimo amazi, imbere y'abo bagore hateretseho agakapu karirimo ibara ry'umukara ndetse bafite amakaye n'amakaramu imbere yabo.

Umugabo n'umugore bicaye iruhande rw'ameza ateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa, hirya gato harimo ibitabo ndetse n'impapuro z'umweru.

Abantu bicaye batuje bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hateretse ameza ariho ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari uducupa turimo amazi ndetse hateretse ibitabo na telefone.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ateguyeho udutambaro ayo meza ateretseho imashini, ateretseho uducupa turimo amazi imbere y'abo bantu hari n'udutabo dutandukanye ku ruhande hari umuntu uhagaze bisa naho ari kuvuga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza z'umweru bigaragara ko bari mu nama, imbere yaho hateretse ameza ariho uducupa turimo amazi ndetse hateretseho na mashini.

Abantu bicaye batandukanye bambaye imipira y'ubururu imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turirimo amazi imbere yabo hari agakombe k'umukara ndetse na terefone.

Ni urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bicaye hamwe, bitonze, bari kwitegereza imbere zabo aho tutareba, bameze nk'abari gukurikirana ibiganiro bari guhabwa. Inyuma yabo hahagaze abagabo bane bifashe neza.

Abantu bicaye mu nama bari kureba imbere yabo, inyuma hari igikuta cy'umuhondo, bagiye bicaye ku ntebe zitukura, hari n'undi uhagaze iburyo bwabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye inyuma yabo hari ibirango bishushanyijeho ibendera ry'u Rwanda. Hari umugabo umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu uri kubabwira. Imbere yabo hagiye hari uducupa tw'amazi yo kunywa, kandi ndetse bamwe bafite na mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi batandukanye urubyiruko, abakuru n'abato, bicaye muri sare nini iherereye mu karere ka huye bita oduterimu, bicaye ku dutebe tw'umutuku bari kureba umupira uri kuhabera.

Ahantu heza hateguye neza, hari mu ibara ry'umuhondo, hari abantu bicaye, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'umweru, undi arahagaze yambaye ishati y'umukara, afite mikoro. Imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi.

Abantu bicaye imbere yabo hateretse ameza ariho udutambaro tw'umweru, ndetse n'akandi gatambaro kari mu rindi bara, imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi, n'agapapuro kuruhande hateretse agakombe, kari mu ibara ry'umukara, umuntu afite mikoro ari kuvuga.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura, abakuru n'abato, ariko abenshi biganjemo n'urubyiruko. Bateze amatwi, bicaye nk'abari mu nama hasi hari itapi iri mu ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hateretse ameza ari mu ibara ry'umutuku, ayo meza ateretseho imashini, ibitabo, ndetse n'uducupa turirimo amazi, imbere yaho kandi hari na mikoro zibegereye.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira iri m'ibara ry'ubururu bwijimye ishushanyijeho ikirango cy'igihugu imbere handitseho amagambo ari m'ibara ry'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa turimo amazi ndetse n'ibitabo n'ikaramu.

Umugore mwiza ufite umusatsi mukeya wambaye ikoti ry'umutuku imbere ye hateretse icupa ry'amazi n'inyange. Inyuma ye hari abandi bagore bahicaye umwe wambaye indorerwamo z'amaso n'ikote ritukura n'undi wambaye ikote ry'umweru. Inyuma yabo hari abandi bantu abagore n'abagabo ndetse n'igikuta gisa umuhondo.

Abagabo bane bicaye ku ntebe nziza hari abagabo babiri bambaye amashati y'umukara undi yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, imbere harimo karuvati y'umukara undi yambaye ikote ry'icyatsi, imbere harimo ishati y'umweru, imbere yabo hari uducupa turimo amazi umwe imbere ye hateretse imashini.

Umugore ushize amanga uri kuvugira mu ndangururamajwi, azize utuntu dutukura ku munwa, afite umusatsi mukeya, inyuma ye hari abandi bantu batari benshi bahicaye.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari imeza iriho impapuro ndetse n'uducupa turimo amazi iruhande rwaho hari umuntu uhagaze usa naho ari kuvuga amagambo.

Umugore mwiza cyane usutse udusuko turyamye ku mutwe, ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere ari gutanga imbwirwaruhame. Asa nk'aho afite abamukurikiye.

Hari abantu benshi batandukanye bambaye bitandukanye, harimo umugore wambaye umukenyero mwiza cyane n'umupira w'ubururu; hari umwana muto w'umubyinnyi, ubyina neza imbyino gakondo; imbere ye hahagaze umugore wishimye.

Abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho ibikapu, impapuro, ndetse n'uducupa turimo amazi, inyuma hari abandi bantu bahagaze umwe ari gufotora undi arahagaze afite urupapuro mu ntoki, biragaragara ko bari mu nama.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye ahantu mu cyumba cy'inama bambaye imyambaro igiye itandukanye, bafite mudasobwa imwe imbere yabo buri wese agiye afite impapuro imbere ye n'agacupa k'amazi yo kunywa.

abagabo abagore harimo abirabura ndetse ndetse'abafite uruhu rwera bafiteducupa tw'amazi imbere yabo ku meza bambaye imyambaro y'amabara atandukanye inyuma hari ikirango ryibara ry'ubururu ryanditseho rivuze rwanda reveni otoriti ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda.

Abantu bicaye bateranye bameze nk'abari mu nama bari kureba imbere, hari umugabo wambaye ikositime ifite ibara ry'ivu na karuvati y'umutuku ivanzemo utubara tw'umweru n'ishati y'umweru, iruhande rwe hicaye umugore wambaye agakanzu keza k'umutuku wijimye n'abandi inyuma yabo, igikuta kirasa umuhondo.

Abantu bicaye batuje, abagore n'abagabo. Ku meza yabo bateretse amazi yo kunywa hari ibitambaro by'umweru kumeza bamwe, bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bicaye, abenshi bambaye imyambaro y'umukara n'umweru, harimo n'abandi bambaye itandukanye, bambaye imidari mu ijosi ifite ibara ry'icyatsi imwe tujya dukunda kwita baji.

Ni ikirango cyanditseho irembo, munsi y'iryo jambo haranditse ngo intambwe ya kabiri, kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga.

Hari abantu bagiye batandukanye bicaye mu matsinda, harimo abagore n'abagabo afite ibyo bari kwigaho n'izindi ngingo z'ingenzi bari kuganira, bicaye ku ntebe nziza ndetse ahantu ziri hashashe amakaro y'umweru.

Inzu ndende cyane iri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari icyapa kigaragaza ko hatangirwa serivise z'irembo, ndetse hari na sitidiyo banafotora, ku ruhande rw'icyo cyapa hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ku rundi ruhande hari umuntu wicaye kuri moto, bisa n'aho ari kuvuga.

Ni ikirango gishushanyijeho inzu nziza cyane, iri mu marangi y'ubururu, ifite igisenge cy'umutuku. Hino yayo haranditse ngo "menyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa n'umusoro ku nyungu z'ubukode uyu munsi". Kwishyura umusoro wamenyekanishije, bigomba gukorwa mbere yo ku wa kane, tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri, bibiri na makumyabiri kane.

Umwana w'umukobwa uri gukoresha mudasobwa yiyumvira ndetse n'indirimbo, yambaye ekuteri mu matwi ndetse kuri iyo ekuteri hariho n'indangururamajwi, bigaragare ko ari umunyamakuru.

Akazu kari mu ibara ry'ubururu kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, imbere yako hahagaze umuntu mo imbere hicayemo umuntu bigaragara ko ari umusekerite, n'undi muntu usanzwe bigaragara ko hano hatangirwamo serivisi z'abantu bashaka kujya hanze y'igihugu.

Umugore wicaye ku ntebe nziza, yambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari idarapo ry'igihugu rifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye ndetse hakanatangirwa serivisi za mobayiro mani n'iza Airtel money niba wifuza ku bijyanye n'umuyoboro wa MTN serivisi zitangwa wagana, ahangaha bakagufasha. Hari umugabo urikuhanyura wambaye ishati y'umweru n'umukandara w'umukara.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, kanditsemo Emutiyeni, bigaragare ko ari ahantu hatangirwa serivisi zo kubitsa amafaranga, kubikuza ndetse no kugura amayinite, imbere muri ako kazu hicayemo umugore wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari urupapuro ndetse na mashine akoresha.

Kigali convention center hari inyubako nziza cyane mu busitani bwiza metingi ini Rwanda naho bakorera inama ndetse ni muri Kigali.

Umunara muremure cyane uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru, ukikijwe n'ibyuma, imbere yaho hari akazu kari mu ibara ry'umweru, gafite urugi rw'ibara ry'umuhondo, imbere yaho na none hari abantu babiri bari kuhanyura.

Umunara muremure uri mu ibara ry'icyatsi ku mpande y'uwo munara hari ibyuma bigiye biriho insinga nyinshi zitandukanye, bigaragara ko izo nsinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Inzu ifite imiryango ibiri ifunguye ifite urugi rw'umweru undi muryango ufite urugi rw'icyatsi hariho ibirango bigaragara yuko hatangirwa serivisi zo kwishyura, imbere mu nzu harimo umuntu wambaye ijire y'umuhondo ifite amabara y'umweru bigaragara ko akorera emutiyeni.

Umunara ugizwe n'utwuma twinshi tugiye dusobekeranye turi mu ibara ry'umukara n'ubururu, hariho ibintu bimeze nk'ibisafuriya na byo byifashishwa mu gukurura neza no gukwirakwiza itumanaho ahantu hose.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, yandikishijwe amagambo y'ubururu, biragaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi zijyanye no kwishyura Imisoro mu Rwanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umweru, biragaragara ko ari ahatangirwa serivise zijyanye n'irembo, ku byiciro bigiye bitandukanye.

Umugore wicaye imbere ye hari imashini uruhande rwe hari indi mashini irimo impapuro, imbere yaho hari impapuro zigiye zanditseho ibintu bitandukanye bigaragaza ko ari ku irembo bakaba batanga serivisi zitandukanye.

Ikirango cyanditseho ecobank kirimo ibara ry'ubururu gihagaze imbere y'inzu igaragara uruhande rumwe niba nawe udakoresha ecobank ni byiza ko wagiramo konti muri banki inyuma y'icyo kirango hari amapota atatu y'amashanyarazi atwara insinga mu duce tugiye dutandukanye.

Hashushanyijeho simukadi, munsi yayo handitse ijambo RURA. Hejuru ku mutwe haranditse ngo biweya ofu simukadi andi simuswapu forodi.

Ikirango kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu kiragaragaza uburyo hatangwa serivise z'ikoranabuhanga ku bintu bijyanye n'ibinyabiziga, ziragaragaza uburyo serivise z'aho zikorwa.

Inzu itangirwamo serivisi z'irembo, ifite umuryango ufite urugi rw'ibara ry'umuhondo rwanditseho irembo, imbere hari agakoresho gashyirwamo imyanda ndetse n'imashini zisohora impapuro.

Abantu bicaye ku ruziga bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye imipira y'umukara yanditseho amagambo, harimo abambaye imipira y'imyeru. Imbere yabo hateretse ameza ariho telefone na mashine.

Igiti kirekire dukunze kwita ipoto kiriho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, imbere yaho hari akazu kari mu ibara ry'ubururu, ako kazu kicayemo umuntu, imbere y'ako kazu hari undi muntu uri kugenda, inyuma yako hicaye umuntu ndetse hari n'abandi bantu bahahagaze.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hari ipoto rirerire cyane rifite insinga z'amashanyarazi bigaragara ko iyo poto ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Ipoto ry'amashanyarazi rishinze inyuma y'igiti kigandaye gifite ibara ry'icyatsi, kuri iryo poto hariho insinga nyinshi zerekeye mu bice bitatu bitandukanye.

Umunara muremure utwara insinga z'amashanyarazi, uri inyuma y'igikuta gifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'ivu, hari umugore uri kuhatambuka wambaye ijipo y'umutuku ndetse n'agapira k'umweru karimo amabara atukura.

Ipironi rirerire rifite insinga zigiye mu bice bitandukanye imbere yayo hari inzu ifite igisenge cy'icyatsi ndetse n'urugi runini rw'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bari kugenda n'amaguru iruhande rwaho hari moto iparitse iruhande nanone hari umuntu uri gukubura wambaye ijire y'icyatsi irimo umurongo wumukara, inyuma ye hari ipoto rirerire rifite amatara ndetse n'irindi rifite insinga z'amashanyarazi ziri kujyana amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Ni ahantu ku rugomero rw'amashanyarazi, hari abagore babiri bashinzwe umutekano waho utapfa kuhinjira, hari ibyuma bigaragaza ko hatunganyirizwa ibijyanye n'amashanyarazi.

Imitaka ibiri yanditseho Emutiyeni iri mu ibara ry'umuhondo, munsi y'uwo mutaka harimo umuntu wambaye imyenda y'ubururu. Hirya yaho gato hari umuntu wambaye umupira w'umweru wicaye. Hirya yaho nanone hari umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku bisa nkaho ari kwiruka.

Igiti kirekire cyane kimwe dukunze kwita ipoto gifite insinga nyinshi zinyuranye zijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye inyuma y'iyo poto hari amazu menshi ndetse n'ibyatsi.

Igiti kirekire kizwi ku izina ry'ipoto gishinze mu byatsi, kiriho insinga ziri kujyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Inzu ndende ifite ibyapa bitandukanye, bigaragara ko hakorerwa ibintu bitandukanye, imbere yayo hari ipoto rirerire rifite itara, hejuru yayo hari umunara muremure, ufite n'ibindi bikoresho ku ruhande bijyana insinga ahantu hatandukanye.

Inzu ndende igaragara nk'aho ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, imbere yayo hari ipoto rirerire rifite itara, inyuma y'iryo poto hari ibyuma by'umweru.

Ipoto ndende ifite insinga z'amashanyarazi, imbere yayo hari umuhanda urimo umuntu wambaye umupira wa oranje, ari ku igare.

Inzu ndende iri mu ibara ry'umweru ndetse n'inindi iri mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari amapoto abiri afite insinga zinyuranye zigiye zijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Ipoto y'amashanyarazi iri ahantu inyuma y'inzu yubakishije amatafari y'impunya hino yayo gato hari urugo rw'indabyo z'icyatsi, hamwe n'utundi turabyo duto tw'umuhondo.

Hirya y'ubusitani budashamaje, hari amapironi anyuraho insinga z'amashanyarazi, turayabonera kure ndetse n'ikirere kirijimye gifite amabara y'umweru n'ubururu.

Umunara ugira uruhare mu bijyanye n'itumanaho. Uyu munara ukikijwe n'ibyuma bishobora gutuma abantu batawegera. Aha ngaha birinda abana kuba bagira icyo bakoraho, bakaba bakwangirika.

Umuhanda wa kaburimbo impande yawo hubatse inzu, yubakishije amatafari y'impunyu ahiye, impande y'uwo muhanda hari imodoka nyinshi zihaparitse ndetse n'abantu babiri.

Ahantu hasa neza hari inzu nziza iriho umusaraba uri mu kimenyetso cy'umutuku hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'mupira w'icyatsi, imbere yaho hari jaride irimo ibiti byiza, imbere yaho haparitse imodoka ziri mu bwoko butandukanye nyinshi.

Abantu babiri bari mu cyumba kigari bari bonyine, ahantu bari hari utubati dufite amabara atandukanye, harimo ibara ry'umukara n'akandi kari mu ibara ry'umweru ndetse n'akandi kari mu ibara ry'ivu. Harimo ibitabo.

Ni kwa muganga hari intebe abantu bicararaho mu gihe bategereje ko babaha serivise, hirya hari imbagukiragutabara zigera muri enye, inyuma yazo hari inkingi z'umuhondo, hino hahagaze abantu hari n'umusekirite w'umukobwa.

Ikoranabuhanga ryateye imbere ku buryo ibintu byose bisigaye bikorerwa ku ikoranabuhanga, aha ngaha umugore wambaye umupira w'ubururu ari gukoresha imashini asa naho hari ibyo ari kurebaho.

Ahantu heza hasakaye neza hariho icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho, ijisho handitseho n'amagambo bigaragara ko ari ahantu havurirwa amaso.

Ni imbangukiragutabara, imodoka itabara imbabare ku bitaro bigiye bitandukanye, ikoreshwa iyo hari umurwayi urembye, bibaye ngombwa ko yoherezwa ku bindi bitaro mu buryo bwihutirwa, inyuma yayo hari inzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'amarangi y'umuhondo.

Mu busitani bwiza hagati y'inzu hari igitabo kinini bashyiramo imyanda, kiri mu ibara ritukura n'ibisashi biririmo ibara ry'umuhondo. Hakurya no kuruhande rwo hirya hari amazu ahubatse yubakishije amatafari y'impunyu ariho ibidirishya binini.

Imodoka iparitse ahantu hari amapave iri mu bwoko bwa ambiranse iriho ibara ry'umutuku rishushanyijeho nk'umusaraba ndetse ifite n'ibara ry'umweru inyuma yayo hari indi modoka iri mu ibara ry'umweru biparitse iruhande rw'inzu yubakishijwe amatafari.

Inzu ndende zifite ibirahure byinshi imbere y'iyo nzu hari idarapo ifite ibara ry'ubururu icyatsi n'umuhondo, kuruhande rwayo hari imodoka zifite ibara ry'umweru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, imbere y'iyo nzu hari ibyapa bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hari intebe nziza cyane ziteguye zitondetse kumurongo zifite ibara ry'umweru, hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye ijipo y'umutuku ndetse n'ishati y'umweru, izo ntebe ziri imbere y'urubaraza wagira ngo ni ku biro aho abantu bicara baje gushaka serivisi.

Abantu bahagaze ku murongo, harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bambaye amakanzu maremare y'umukara, imbere harimo ibara ry'umweru, bifashe neza.

Ni abantu bagera kuri batanu abagore babiri n'abagabo batatu bose bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y'umukara mu imbere bambariye ku mipira y'umweru.

Umugabo wambaye ikoti ry'umutuku mu imbere harimo ishati y'umweru yambaye rinete ndetse n'ingofero y'umukara ifite akarongo k'umuhondo.

Abagabo babiri bigaragara ko bari kugenda umwe n'umupolisi yambaye imyenda y'umukara n'igofero yumukara afite n'imbunda imyenda yambaye iriho ikirango cy'igihugu undi yambaye ishati yumukara afite icupa mu ntoki yambaye n'amapingu ndetse yambaye na marinete.

Umugabo ugaragara nk'ukuze rwose wogoshe, wambaye ikanzu y'umutuku, imbere hari n'ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, inyuma ye haragaragara ibara ry'umweru ntakindi kintu gihari.

Abantu batandukanye bambaye imyenda y'umweru, bafite ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda, kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, gishushanyijeho izuba, bari kwitegereza imbere yabo, aho tutari kubona, basa n'aho hari ibiganiro bakurikiranye.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara irimo akabara k'umuhondo bigaragare ko yambaye ikanzu y'umutuku, arishimye, ari kumwenyura, afite ubwanwa butari bwinshi.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara n'amashati y'umweru mo imbere n'abagore babiri bambaye amakanzu y'iroza bari kurebana, imbere y'ameza hari mudasobwa n'agacupa k'amazi.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'iroza ndetse n'udupfukamunwa tw'iroza, imbere yabo hari abantu babiri bahagaze, umwe yambaye ikanzu y'umukara n'agapfukamunwa, undi yambaye imyenda y'iroza n'agapfukamunwa k'iroza, bigaragare ko bari kuganira.

Abantu babiri bicaye bose bambaye amakanzu y'umutuku harimo n'ibara ry'umweru, umwe afite mikorofone, imbere yabo hateretse ameza ariho uducupa turimo amazi, imbere yabo hari udupapuro ndetse na telefone.

Umugabo wambaye linete wambaye n'ikanzu y'umutuku, imbere iriho ibara ry'umukara imbere na none iriho ibara ry'umweru, yambaye na karuvate iri mu ibara ry'umukara.

Abantu bicaye, imbere yabo hateretse ameza ariho agatambaro k’umukara. Imbere ya bo ku meza hateretse udukombe twinshi.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, mo imbere yambayemo ishati y'umweru na karuvati y'umukara, arijimye mu maso ariko asa n'aho afite ikibazo kimukomereye.

Umugore wogoshe ahantu hose wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye imyenda y' iroza yambarwa n'imfugwa, iruhande rwe hari umucungagereza wambaye imyenda ya kaki, ifite ibendera ry'u Rwanda ku rutugu.

Umugore uhagaze yambaye ikanzu irimo ibara ry'umutuku umweru ndetse n'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, yambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara yambaye na rinete amanitse ukuboko biragaragara ko ari kuvuga amagambo.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku imbere harimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara yambaye na rinete yambaye ingofero y'umukara iriho akarongo k'umuhondo.

Umugabo wambaye ikanzu itukura n'ingofero y'umukara irimo akabara k'umuhondo kazengurutse. Bisa naho ari umunyamategeko uri guca urubanza. Imbere ye hari indangururamajwi.

Abagabo batatu babiri bambaye imyenda ya kake n'ingofero za kake bigaragara ko bacunga umutekano, umwe afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki hari umugabo uri kwinjira mu muryango wambaye umupira w'umweru urimo n'ibara rya oranje.

Ikirango kirimo amabara atandukanye harimo ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hagati harimo n'ibara ry'umweru kiragaragaza ko ari ubushinjacyaha bukuru.

Abantu batatu babiri barahagaze bari gusuhuzanya bambaye amakanzu y'umutuku w'imbere hariho ibara ry'umweru bambaye ingofero umwe yambaye ingofero y'umuhondo irimo umurongo wumukara undi yambaye ingofero y'umukara irimo umurongo w'umuhondo undi aricaye yambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara irimo imirongo ibiri y'umuhondo.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere y'indangururamajwi bafite mudasobwa imbere yabo n'amazi mu gacupa k'Inyange bambaye udupfukamunwa tw'ubururu bombi umwe ariko yambaye umwenda w'umukara umugabo na we akambara umupira w'umweru.

Inzu ndende cyane yubakishijwe amatafari ahiye imbere yayo hari abantu babiri, bigaragare ko umwe ari umupolisi undi ari umuntu usanzwe, umwe yambaye imyambaro ipantaro yumukara ishati y'umukara irimo amabara y'icyatsi, undi yambaye ishati isanzwe n'ipantaro isanzwe.

Ahantu hari ama pave haparitse imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara yanditseho polisi, hirya yaho hari imodoka iri mu ibara ry'umukara imbere yayo hari inzu ndende cyane imwe tujya dukunda kwita etaje.

Abagabo babiri bambaye impuzankano zisa, ingofero z'umweru ndetse n'amasarobeti akomeye y'umukara, n'utugarurarumuri tw'umuhondo, bafite urugozi runini ruri guturukamo amazi menshi, bigaragare ko bari kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda isa bigaragara ko ari imyenda y'akazi, imbere yabo hari umuntu wambaye imyenda itandukanye n'iyabo, yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, n'ikoti riri mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi bigaragara ko hari ibyo ari kubasobanurira.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe abandi bahagaze, imbere yabo hahagaze undi munyeshuri ufite kizimyamwoto, imbere ye hateretse gaze iteretseho isafuriya, aha bari kwigisha uko wabigenza uramutse ugize ikibazo cy'inkongi y'umuriro.

Abantu bicaye hasi, imbere zabo hari abapolisi bambaye impuzankano y'abapolisi. Inyuma yabo hari imodoka ebyiri nini za fuso, zifite amabara y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere yazo hari moto iri kugenda, imbere y'iyo moto hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara irimo ibara imirongo y'icyatsi, bigaragare ko ari gucunga umutekano w'aho hantu.

Igikoresho bifashisha bazimya umuriro igihe hateye inkongi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru icyo gikoresho gifite ibara ry'umutuku ku ruhande hariho agasinga gafite ibara ry'umukara n'kandi kazengurutse k'umukara.

numugozi wifashishwa iyo bari kuzimya umuriro cyangwa ahandi hantu hafawe inkongi y'umuriro kugira ngo bitabarushya cyangwa bakaba bakwangirika barabifashisha hanyuma ukaba muremure arababona uko batera amazi mumpande zitandukanye uyu mugozi uri mu ibara ritukura.

Ni kizimyamwoto zifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro. Ni ebyiri ziri mu mabara atandukanye imwe iri mu ibara ry'umutuku, indi iri mu ibara ry'umweru udasa neza. Ahantu ziri hari amakaro y'umweru ariko wanduye.

Umuhanda urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'akabara k'umuhondo ku ruhande, imbere yayo hari moto itwaye abagenzi, imbere yayo y'iyo modoka nanone hahagaze umuntu bigaragare ko ari umupolisi yambaye imyenda y'umukara irimo umurongo w'icyatsi hejuru y'iyo mirongo handitseho polisi.

Mu Rwanda umutekano waho rwose ni mwiza pe kuko ikigaragara ni uko aho ugeze hose usanga abashinzwe umutekano bahari nta wakubangamira cyangwa se ngo agire ikindi kibi agukorera.

Ni icyapa cyanditseho Nyamirambo RIB Station; bisobanuye ko agafureshe aho kari kwerekeza ari aho ibiro bya RIB y'i Nyamirambo biherereye. Niba ugize ikibazo cyo guhohoterwa cyangwa kunyaganywa ibyawe, wagana iyi sitasiyo.

Abantu benshi bamwe bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira yumweru, bafite impapuro mu ntoki imbere yabo hari abantu bicaye.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu na kositimu ishati y,umweru mw,imbere na karuvati itukura ari kumwenyura afite ubwanwa buke yogoshe umusatsi wose yawumazeho iruhande rwe muguhinguka rimwe nibara rigize idapu y'u rwanda rishushanyuzamo izuba.

Abantu benshi bambaye imipira y'imyeru bafite n'udupapuro mu ntoki twanditsemo efuperi, imbere yabo harimo hari inzu yubakishijwe ibitambaro bifite ibara ry'umutuku umweru ndetse n'ubururu muri iyo nzu hari umuntu uhahagaze.

Abantu bane bahagaze harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, bamanitse amaboko bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda imbere yabo hari mikoro.

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara n'ijire iri mu ibara rya kacye, bose bambaye rinete, imbere yabo hari ibirango bifite amabara atandukanye, bigaragara ko bari mu biganiro bijyanye n'amatora.

Abagabo babiri bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi, inyuma yaho hari abandi bicaye, imbere yabo hateretseho, hari imeza iteretseho imashini ku ruhande hari umugore wambaye agatambaro mu mutwe.

Umugabo n'umugore bicaye ahantu imbere yabo hateretse indangurura majwi uducupa tw'amazi yo kunywa bicaye ku ntebe z'umukara bose bambaye indorerwamo z'amaso inyuma ku gikuta harasa umweru.

Umumama mwiza ufite umusatsi mukeya, wambaye indorerwamo z'amaso w'inzobe, yambaye ikositime y'umukara nawe n'agashati k'ubururu mu imbere, aricaye ku ntebe y'umukara.

Umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame, ari nawe uhagarariye ishyaka rya fpr inkotanyi, yatsinze amatora umwaka ushize, aho yari ari guhatana n'abandi bakandida babiri.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvate y'ubururu, ni urukara rwiza ari guseka. Iruhande rwe hari ibendera ry'u Rwanda rishushanyijemo izuba mu ibara ry'ubururu.

Mu bantu bicaye ba bigaraga ko bari mu nama bicaye muntebe, z'umukara imbere ya buri muntu hari indangururamajwi avugiramo igihe bamuhaye umwanya wo gutanga igitekerezo cye, kandi nanone buri muntu afite agacupa k'amazi imbere ye.

Umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Perezida Paul Kagame uzamuye ukuboko afunze igipfunsi, iruhande rwe hahagaze umupolisi wambaye impuzankano y'abapolisi ndetse hari abantu benshi cyane bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku n'umweru ari na yo mabara agize ikirango cya FPR.

Abantu benshi bicaye hagati hari intebe ndende yicayeho umukuru w'igihugu cy'u rwanda imbere ye hari akameza gateretseho igitabo ndetse n'icupa ririmo amazi.

Abantu bahagaze bambaye imipira yumweru irimo amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu handitsemo efuperi, harimo umuntu wambaye ingofero afite ifoto yumukuru w'igihugu.

Nyakubahwa Perezida Paul Kagame umukuru w'lgihugu cy'u Rwanda, yambaye umupira w'umukara ku ijosi hariho utubara dutatu umutuku, ubururu, n'umweru, ari cyo kirango cya efuperi , afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye n'ingofero y'umukara, iruhande rwe hari abantu bamuteze amatwi.

Umugabo wicaye yambaye rinete yambaye ikote ry'ubururu mo imbere harimo ishati y'umweru yambaye karuvati y'ubururu imbere ye hari mikoro.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umukara, ufite indangurura majwi mu ntoki ndetse wambaye isaha ku kuboko, ahagaze ahantu bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu ari gutanga ikiganiro, hirya hari ibiti byinshi bitagaragara neza.

Abakandida batatu Paul Kagame, Fank Habineza na Philippe Muhayimana, bari biyamamarije kuba bayobora igihugu cy'u Rwanda umwaka ushize, ariko Paul Kagame ni we watsinze amatora uko bigaragarira mu mibare.

Abantu benshi bahagaze batandukanye, imbere yabo hari abandi babiri bahagaze, bambaye amashati y'umweru ashushanyijemo amabara umwe yambaye rinete ndetse yambaye n'ikamba mumutwe undi afite icumu arishinze hasi barahagaze.

Abantu bicaye ni benshi cyane imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo, telefone udukapu, uducupa turimo amazi ndetse n'ibikombe by'umweru imbere yabo nanone hari umuntu uhagaze afite igiseke mu ntoki biragaragara ko hari ibyo bari gushyira muri icyo giseke.

Umugore wicaye wambaye rinete, yambaye n'ikote ry'umukara imbere harimo ishati y'umweru imbere ye hari ameza ateretseho ibitabo, terefone ndetse n'uducupa turimo amazi tubiri ku ruhande.

Mu masaha ya nijoro hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga. Hari abantu barikugenda n'amaguru, hari n'abari kugenda n'imodoka. Hirya imbere hari amatara ari kwaka. Hari n'amamodoka ahaparitse. Abandi bari kugenda, bambaye amasarubeti y'ubururu.

Ibinyabiziga bibiri harimo moto y'ubururu, imodoka ifite ibara ry'icyatsi biri mu muhanda biri kubisikana, ku ruhande hari abagenzi bari kugenda n'amaguru, ipoto rirerire n'amashanyarazi ndetse hakurya hari ibiti by'icyatsi birebire.

Inzu ndende ifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'icyatsi, imbere yaho hahagaze abantu benshi ndetse imbere yaho m'umuhanda harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye na moto zihetse abagenzi ndetse n'imodoka.

Akamodoka gakunze kwifashishwa mu gutwara imizigo kari mu ibara ry'ubururu gatwikirijeho iyishashi iri mu ibara ry'umukara yanditseho na nimero za telefone, mu muryango w'ako kamodoka hicayemo umuntu wambaye itaburiya y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cyo m'ubwoko bwa moto gitwaye umugenzi, iruhande rwayo rwawo hari undi muhanda urimo ikinyabiziga cy'imodoka, hagati m'umuhanda harimo jaride iteyemo indabyo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini iri mui ibara ry'ubururu ndetse n'umweru bigaragara ko ari imodoka itwara abagenzi, iruhande rwayo hari ibiti.

Abantu batandukanye bari kugenda mubi bice bitandukanye, hari abamotari bicaye kuri moto, hari n'abandi bantu bahagaze begamye ku cyuma gifite ibara ry'umutuku, icyo cyuma cyifashishwa mu gutwara imizigo yoroheje gifite n'amapine abiri.

Imbere y'amazu hashashe amapave, haparitse imodoka ebyiri z'umweru ziri kureba kuri aya mazu ahari, aya mazu afite inkingi z'umweru, inyuma y'imodoka hari gutambuka umuntu utari kugaragara umutwe, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara.

Umuhanda dukunze kwita kaburimbo urimowo imodoka ifite ibara ry'umweru, ndetse n'akabara k'umuhondo hejuru iruhande rwayo hari umurongo uri m'ibara ry'umweru iruhande rwayo nanone hari jaride irimo indabyo.

Umuhanda munini wa kaburimbo hagati harimo akamodoka kari mu bwoko bwa moto kari mu ibara ry'ubururu gatwikirije ishashi y'ubururu kifashishwa mu gutwara imizigo; ku ruhande rwayo hari akayira bigaragaramo ko kagendwamo n'abanyamaguru ndetse inyuma yayo hari n'ibindi binyabiziga biri mu bwoko bwa moto bitwaye abagenzi.

Imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye hari iziri mu bwoko bwa tagisi hari n'indi modoka ndende ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwazo hari abantu benshi biragaragara ko hano ari muri gare.

Moto ihetse umugenzi imodoka na yo y'umukara, byose biri mu muhanda biri kugenda. Imodoka iri kwerekeza mu ruhande moto iri guturukamo. Hirya hari abagenzi bari kugenda n'amaguru ndetse hari n'ibiti byiza birebire.

Imodoka ya fuso iri mu muhanda wa kaburimbo ifite amabara y'umweru. Hejuru hariho ipine ry'umukara, hirya yayo hari ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru yifashishwa mu gutwara imizigo, ikikijwe n'ibyuma biri mu ibara ry'umweru, bigaragara ko ihetse imizigo itwikirije ishashi iri mu ibara ry'ubururu, hejuru hicayeho umuntu.

Imodoka nini kandi ndende, iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, itwikirije ishashi y'icyatsi, imbere yayo hahagaze abantu, umwe yambaye imyenda y'umukara ahagaze iruhande rw'imifuka, undi yambaye ikanzu y'umuhondo ndetse yifubitse igitambaro cy'umutuku.

Ku ruhande ku muhanda wa kaburimbo hari akayira karimo amapave, haparitse igare ritariho umuntu, imbere yaryo hari imodoka ya fuso iri kugaragara igice cy'inyuma bisa n'aho iri kwigendera igana imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto yicayeho umuntu, ku nkengero z'umuhanda hari igipangu kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'igiti imbere y'icyo gipangu.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, imbere yayo hari moto ziri kugenda mu muhanda, ku ruhande rwayo hari imodoka zihaparitse ndetse n'inzu ndende.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igifuso cy'umweru, kirimo ipine rinini mo imbere. Amapine yacyo ni umukara, impande zacyo hari inzu ifite amarangi y'ubururu, imbere na none hari inzu ifite amarangi y'iroza.

Imodoka ziri mu bwoko butandukanye zirahagaze, bigaragare ko ari ahantu abagenzi bajya gufatira imodoka, kandi bigaragare ko ahangaha ari muri gare, iruhande rw'izo modoka hari abantu batandukanye, iruhande rw'izo modoka nanone hari akazu kanditseho eyateri ndetse hari n'ikigega cy'ubururu.

Ni umumotari uhetse umugenzi urimo aramanuka ava Kacyiru mu muhanda, hari ibiti birebire byiza by'imikindo, ni ahantu hafite isuku kandi hakeye rwose.

Ni mu masaha ya nijoro aho amatara acanye. Hari abanyonzi batandukanye bambaye imyambaro itandukanye, bategereje abagenzi mbere yuko bagenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri nini ziri mu ibara ry'umweru hirya yaho hari ikiraro cyambukiraho abantu hirya ku rundi ruhande haparitse imodoka nyinshi ndetse na moto.

Imodoka ya Fuso iri mu muhanda ihetse imifuka myinshi itandukanye yuzuye ibintu. Ipfukishije ihema ry'ubururu ariko ridapfutse hose; impande zayo hari abantu bari mu itsinda batandukanye ndetse bahagaze iruhande rw'igiti kigandaye.

Imodoka ebyiri zidahuje amabara, imwe ni imodoka yafuso iri mu ibara ry'umutuku itwara imicanga amabuye ndetse n'bindi bikoresho by'ubwubatsi, Indi ni moto bita lifani itwikirije ihema y'bururu nayo itwara imizigo.

Ahantu hari inzu ifite amarangi y'icyatsi ku nzugi n'amadirishya, iruhande rwayo hari guca ibinyabiziga, imodoka na moto, hari imodoka ihetse imitwaro, imbere yayo hari amatara ari kwaga, ni mu kagoroba, butangiye kwira.

M'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri mu ibara ry'umweru yo m'ubwoko bwa fuso ihetse ibintu, uruhande rwayo hari izindi modoka zihaparitse ndetse hari n'ibirango bigiye bitandukanye biriri mu ibara ry'icyatsi.

Mu masaha ya n'ijoro hari imodoka ziri kugenda izihagaze, amamoto ahagaze n'imodoka ziri mw'ibara ry'umweru na purake y'umuhondo yandikishijemo imibare y'umukara.

Imodoka nini cyane iri mui ibara ry'umweru, itwikirije ishashi y'icyatsi, ndetse n'indi y'mweru iri mu muhanda bigaragara nkaho iri kugenda, iruhande rwayo hari ikiraro cyambukiraho abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara ibintu byinshi ibikura mu gihugu kimwe ibijyana ahandi, inyuma yayo hari moto zihetse abagenzi. Ku ruhande hari umuntu uri kwigendera n'amaguru, hakurya hari ibiti birebire.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kunyura ikimodokadoka kinini kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho Jagwari imbere yacyo hari utugare tubiri abanyonzi bari kugenderaho.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo haparitse ibinyabiziga bitandukanye, hari utumoto dutwara imitwaro n'imodoka zigendamo abantu bake bake, ikindi hari n'abantu bahagaze n'abari gutambuka ku magare.

Umuhanda wa kaburimbo urimwo imodoka nini ifite amabara atandukanye harimo ibara ry'ubururu, irimowo ibara ry'umweru, umuhondo n'ibara ry'icyatsi bigaragara ko ari imodoka itwara abagenzi iruhande rwayo hari umuntu uri kugenda n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, hariho n'ibara ry'ubururu, ihetse ibintu byinshi ku ruhande rwayo hari moto ihetse umugenzi, ku ruhande rwayo nanone hari umuntu ufite igare ndetse n'undi uri kugenda inyuma n'amaguru.

Imodoka nyinshi ziparitse ziri mu bwoko butandukanye, bigaragara ko ari ahantu abagenzi baza gufatira imodoka. Iruhande rwazo hari abantu batandukanye hari umuntu wambaye ipantaro y'icyatsi umupira w'umukara, afite indobo mu ntoki ndetse kurundi ruhande hariho n'abandi bantu batandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kugenda ndetse na moto ziri kugenda, kuruhande rwayo hari abantu bari kugenda n'amaguru, imbere, inyuma y'iyo modoka hari izindi modoka nyinshi, ziparitse ku ruhande rwayo gato hari moto nyinshi zihaparitse bigaragare ko zitegereje abagenzi.

Umugabo wunamye yambaye ingofero y'umukara, ishati y'ubururu ndetse n'ijire irimo imirongo y'umukara, yambaye na bote z'umukara imbere ye hari ingororofani irimo igishashi cy'ubururu gifite ibara ry'umweru hagati.

Aantu haparitse imodoka nyinshi bigaragare ko ari aho abagenzi bafatira imodoka hagiye hari ibyapa bitandukanye biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, imbere y'izo modoka hari amazu menshi ku ruhande rwayo hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Mu muhanda wa kaburimbo mu masaha ya nijoro, ku ruhande hahagaze amagare n'umuntu umwe, ufashe ku igare, hirya inyuma ye, hari itara riri kwaka cyane, mu rundi ruhande, ntihagaragara neza, harijimye.

Imodoka nyinshi ziri mu bwoko butandukanye ziparitse, imbere yazo hari abantu bari kugenda, bigaragare ko ari ahantu abagenzi bategera imodoka. Hirya yazo hari amatara menshi, bigaragara ko ari muri gare.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kunyuramo imodoka zibisikana, hari imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'ubururu, ndetse hari n'indi itwara abagenzi bakeya iri mu ibara ry'umweru, impande zayo n'inyuma hari abamotari, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'amapoto ariho amatara.

Abantu babiri bari kugenda, umwe yambaye umupira w'umukara, ahetse n'igikapu mu mugongo, undi yambaye ishati y'ubururu irimo imirongo y'umukara n'umweru, yambaye ikabutura y'umukara, biragaragara ko bari kugenda, imbere yaho hari inzu ifite urugi rufite ibara ry'icyatsi.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ifite amapine y'umukara, umuntu uyicayemo yambaye ishati y'umweru ndetse n'utundi tubara tw'ubururu tuvanzemo.

Waba uri umucuruzi cyangwa se ukora iyindi mirimo itandukanye igusaba gutwara ibintu byinshi bitandukanye by'imizigo nakugira inama yo kureba imodoka nk'izi ng'izi ziri aha ng'aha zitwara imizigo myinshi icyarimwe, hano hari imodoka ebyiri za Fuso imwe ifite ibara ry'icyatsi ipfukishije ihema ry'ubururu, indi nayo ifite ibara ry'ubururu bwijimye ipfukishije ihema ry'umweru.

Umuhanda twita kaburimbo urimo imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse harimo n'abamotari benshi bamwe batwaye abagenzi abandi ntabo batwaye.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo iri mu ibara ry'ubururu ihetse ibyuma birebire cyane iruhande rw'ibyo byuma hicaye umuntu; iruhande rwaho hari umuntu uri kugenda n'amaguru bigaragare ko ari umuhanda w'abanyamaguru banyuramo.

Ikinyabiziga cya moto gifite ibara ry'umutuku, ingofero irinda impanuka iri mu ibara ry'umutuku; Iki kinyabiziga gikoreshwa n'umuriro, ntibakoresha esase kuko hari batiri ishinzwe kukibikira umuriro.

Umuhanda dukunze kwita wa kaburimbo, uparitsemo ibinyabiziga bya moto bitandukanye, iruhande rwabyo hari ahantu abanyamaguru banyura, hirya k'urundi ruhande haparitse imodoka z'amabara atandukanye, harimo izifite amabara y'umukara ndetse n'izifite amabara y'umutuku.

Ahicaye abantu benshi cyane, ni mu mujyi wa Kigali aho tuzi ku nyubako yo kwa Makuza. Hari intebe bicaraho baruhuka bategereje kugenda, hirya hari inzu ifite ibara rya oranje hari n'abandi bantu, abahagaze n'abari gutambuka. Abambaye imyenda y'ubururu, imyenda y'umukara ndetse iyi nzu ni ndende cyane.

Ahantu heza cyane hateguye intebe ziri mu ibara ry'icyatsi yicayemo abantu batatu umwe yambaye umupira w'umutuku afite terefone mu ntoki undi yambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umukara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ushashemo agatapi gasa ibara ry'ubururu ryijimye, impande zawo hari imikindo ifite ibara ry'icyatsi, ndetse kandi hari n'utubara tw'umukara n'umweru tuvanze.

Ikibuga kigaragara ko gikinirwamo umupira w'amaguru, hashushanyijemo imirongo igiye itandukanye iri mu ibara ry'umweru, harimo abantu bigaragara ko bari gukiniramo umupira.

Icyapa kibuza ni akaziga k'umutuku hanyujijemo akaronko kaberamye aheshanyijemo imodoka, bisobanuye ko mu gihe umuntu ari gutwara ikinyabiziga akabona iki cyapa kiba kimubuza kunyura mu bantu bivuze ko nta modoka zemerewe kuhanyura.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo mu nkengero zawo, hashushanyijeho umuntu uri gutambuka mu turongo tw'umukara. Iki cyapa iyo ukibonye ugomba guhita umenya ko aha ariho abanyamaguru bambukira.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru, hagati mu ibara ry'umweru hashushanyijemo abantu babiri bashushanyishije ibara ry'umukara, bigaragara ko bari kugenda biruka, byerekana ko hafi aho hari umuhanda kandi unyuramo abantu b'abanyamaguru.

Icyapa cy'umutuku gicishijemo uturongo. Kiri mu ibara ry'ubururu mu imbere, gicishijwemo uturongo tubiri tw'umutuku, bigaragaza ko iki cyapa hari icyo kibuza, mu gihe ukibunye ahantu runaka itondere aho hantu.

Ikirango kiri mu ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru munsi yacyo harimo ikindi gishushanyo kiri mu ibara ry'umutuku, hagati yacyo harimo umuntu ushushanyije mu ibara ry'umweru.

Ni icyapa cyo mu muhanda, abantu bize amategeko y'umuhanda cg se abatwara ibinyabiziga bagomba kuba bazi ubusobanuro bwacyo. Kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse gifite n'akandi kabara k'umukaramo mo imbere.

Ni heza cyane nawe ubishatse wahasura, hari ibyapa bitandukanye, ikigaragaza ko ari hafi y'umupaka wa Uganda, ikigaragaza ko ari hafi ya parike ya kinigi ndetse n'ikigaragaza ko hafi aho hari banki popilere.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku hagati hari n'ibara ry'umweru, hagati mu ibara ry'umweru hashushanyijemo abantu bari mu ibara ry'umukara, ni babiri biragaragara ko bari kugenda n'amaguru.

Ku muhanda wa kaburimbo hari akajari gato gasa neza ku muhanda nyirizina hari kunyuramo ibinyabiziga bya moto, ku ruhande handitse ku cyapa ngo stop mu gihe ubonye iki cyapa ugomba guhagarara cyangwa se ukagenda gakeya.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku mo imbere hari n'ibara ry'umweru mo imbere nano harimo ibara ry'umukara rishushanyijemo abantu babiri bari kugenda n'amaguru, biragaragara ko aho hantu iki cyapa kiri hagaragaza ko hari abantu b'abanyamaguru bahagendera.

Ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku. Cyandikishijeho umubare mirongo itandatu mu ibara ry'umukara. Umubare wanditse mu ibara ry'umweru.

Ikirango kiri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo ibara ry'umweru, hagati na none harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, munsi yaho hari akandi karango kari mu ibara ry'umweru, kandidikishijwemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, inyuma yako hari abantu bigaragare ko aha hantu hari gukorwa, hari igikorwa kiri kuhakorerwa.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari ipoto ry'amashanyarazi, ritwara nsinga ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo abaturage babone umuriro, iruhande rw'iyo poto hari ibiti bitohagiye.

Ikirango kiri mu ibara ry'umutuku, mo imbere hagati harimo ibara ry'umweru rishushanyijemo igare riri mu ibara ry'umukara, haciyemo akarongo kari mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko aha nta kinyabiziga cy'igare cyemerewe kuhanyura.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijwemo kabiri n'ibara ry'umuhondo mo hagati. Imbere hari abagore babiri bari kugenda, ku ruhande hari icyapa cyanditseho Rambura. Hirya inyuma y'icyapa hari ibiti birebire.

Icyapa gishushanyijeho inyuguti ya P icishijemo akarongo. Iki cyapa, umuntu wese utwara ikinyabiziga iyo akibonye ahita amenya ko ntaho guparika hahari. Icyo cyapa kiri iruhande rw'ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kizengurukijwe ibara ry'umweru, mo imbere na none hari mu ibara ry'ubururu, hashushanyijeho umwambi umwe ariko ufite imitwe ibiri umutwe umwe uragaragara ko werekana hejuru undi mutwe urerekana ku ruhande.

Icyapa kiri ku nkengero z'umuhanda kiri mu ibara ry'ubururu kizengurukijeho akarongo k'umweru mo hagati harimo ibara ry'umweru rishushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari kugenda n'amaguru, byerekana ko hari ikirango kigaragaza aho abanyamaguru banyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku hagati harimo ibara ry'umweru, hagati na none harimo imodoka ishushanyije mu ibara ry'umukara, hagati y'iyo modoka haciyemo akarongo k'umutuku bigaragara, ko bitemewe ku kuhaparika ikinyabiziga.

Ibyapa bibiri byo ku muhanda, kimwe gishushanyijeho abantu babiri bari gutambuka, bisobanuye ko iyo ukibonye ku muhanda wa kaburimbo kimenyesha ko aho abagenzi banyura bambukira abagenda n'amaguru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku imbere hagati harimo ibara ry'umuhondo hashushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuntu uri mu ibara ry'umukara bigaragare ko ari kugenda n'amaguru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru hashushanyijeho imodoka iri mu ibara ry'umukara ndetse handitse n'amagambo mu ibara ry'umukara bigaragare ko ari icyapa cyerekana imodoka ko zahagarara.

Inzu ndende cyane ifite ibirahure byinshi, imbere yayo hari akandi kazu gato, imbere y'ako kazu hari icyapa, ndetse ku ruhande hari n'ibyuma biri mu ibara ry'umukara bigaragara nkaho ariho binjirira.

Inzu ndende, ifite ibirahure, iri mu ibara ry'umweru, imbere hari imodoka ihaparitse, ikikijwe n'ibyuma bifite ibara ry'icyatsi.

Ni mu muhanda w'igitaka, hirya yaho gato haparitse imodoka eshatu, ebyiri zifite ibara ry'umweru ndetse n'indi imwe ifite ibara ry'umukara. Hirya yaho nanone hari inzu nziza isize irangi ry'umweru ndetse n'ibiti birebire bihari.

Abantu bambaye bitandukanye bari gutambuka ahantu mu gasantere, hari n'amamodoka hirya yabo, ndabona umugabo wambaye isarubeti y'ubururu n'ingofero y'umukara.

Hari abantu benshi ni mu isoko hari imitako igiye itandukanye hari umutaka wa Airtel mani n'umutaka wa imfinigisi iri mu ibara ry'icyatsi munsi y'uwo mutaka hahagaze abantu ndetse ndahabona n'akantu kariho indorerwamo z'amaso.

Inzu nziza yubatse ku muhanda wa kaburimbo hejuru y'umuhanda, isize amarange meza ari mu ibara ry'ivu n'ibara ry'umweru, mo imbere hari jaride nziza ifite ibiti byiza cyane bitanga amahumbezi n'akayaga.

Inzu ndende cyane ikikijwe n'ibirahure ifite amabara y'umweru n'umuhondo imwe dukunda kwita etaje, imbere yayo hari icyapa cy'umutuku hakaba hari n'ipoto iriho insinga ndetse n'itara.

Inzu ndende cyane imwe dukunze kwita etaje igiye iriho amagambo atandukanye igaragara nkaho ikikijwe n'ibyuma imbere yayo hari jaride irimo indabyo.

Inzu ya etage igereretse kabiri isize amarangi y'ubururu, ibirahuri by'umweru, ariko ku birarahuri hasize amarangi y'umukara ndetse no ku nzugi. Iruhande rwayo hari ibiti nanone kandi iri mu gipangu gifite urugi rw'umukara.

Ahantu hari imiryango itatu ikinguye ifite inzugi zifite ibara ry'ubururu hari ibirango biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku imbere kuri uwo muryango ikinguye, hari ibishushanyo bigaragaza ko bacuruza imyenda.

Inzu ndende ifite ibyapa bitandukanye bigaragara ko hakorerwamo ibikorwa bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi, ndetse hari n'abantu imbere yayo nanone hari ipoto rirerire, rifite insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu bice bitandukanye, hejuru y'iyo nzu hari utundi twuma na two dutwara insinga ahantu hatandukanye.

ahantu hanini cyane hari amapave haparitse imodoka zigiye zitandukanye zimwe ziri mu mabara y'umukara izindi ziri mumabara y'umweru.

Ni inzu zitandukanye imwe isizeho irangi ry'ubururu ryanditseho mirike zone, bivuze ko ari ahantu hakusanyirizwa amata atandukanye ariko y'umwimerere.

Umuhanda wa kaburimbo ushaje, hari kunyuramo imodoka zifite amabara atandukanye; mu muhanda hahagaze abagenzi bategereje kwinjira mu modoka, ndetse hari n'umutaka wa Airtel.

Munsi y'inyubako hari abantu batandukanye bambaye amasarubeti y'ubururu, ndetse hakaba handitseho ijambo momento, hari irangi ry'umuhondo ku gikuta n'imodoka iruhande rwayo.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari imodoka ziparitse nyinshi ziri mu mabara atandukanye ndetse na moto n'abantu bari kuhagenda, imbere y'izo modoka hari inzu nini ya etaje, iriho ibyapa bigiye bitandukanye, bigaragare ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye.

Ni ahantu mu mudugudu hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, ni ku nzu ya nimero cumi n'imwe, ni umudugudu ahantu runaka, ushaka kuhamenya wagendera kuri nimero zigiye zanditse kuri buri nzu.

Inzu ndende iri mu ibara ry'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu imbere yayo hari ibiti ndetse n'andi mazu menshi bigaragara ko ari ahantu hatuwe n'abantu benshi.

Inzu ndende iteye irange ry'umweru, ifite amadirishya y'umukara ikikijwe n'ibyuma bifite irange ry'umukara, imbere yayo hari umuhanda nibi n'ikiraro cyambukiraho abantu bagenda n'amaguru.

Inyubako ndende isize amarange y'umweru n'umuhondo yubatse ku muhanda ifite igisenge cy'umuhondo ku ruhande hari ipoto y'amashanyarazi.

Inzu ndende ebyiri zigeretse, dukunze kwita etaje, ziri mu gipangu kiri mu ibara ry'umukara, imbere y'igipangu hari jaride iriho indabyo zigiye zitandukanye.

Inzu nziza cyane ndende isize amabara y'umweru igaragaraho amadirishya menshi cyane ariho ibirahuri by'umukara ndetse kandi iruhande rwayo haparitse imodoka eshatu.

Inzu nziza y'ubakishijwe amatafari ahiye ikaba irimo ibara ry'umweru isakaje amabati y'umutuku, inyuma yayo hari indi nzu iri mu ibara ry'umweru, iyo nzu ikaba ifite igipangu kiri mu ibara ry'umukara.

Mu masaha ya n'ijoro, umuntu uri kwambuka wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, imbere ye hari guturuka imodoka zicanye amatara. Hejuru ku ruhande hari igiti gifite amababi menshi atwikiriye umuhanda.

N'ahantu heza cyane hari ibiti by'icyatsi hateguye neza, munsi y'ibiti hari inzu itagaragara neza haranditse ngo Kimironko Kwamushimira, ubaye wifuza rero kujya Kimironko Kwamushimire washakira muri aka gace, hakurya hari amazu menshi cyane meza ariko atagaragara neza.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto bibiri, izo moto zihetse abagenzi hirya ya'ho hari jaride irimo indabyo ndetse hari n'akarongo gasize ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

umuhanda munini cyane urimo imodoka ndetse na moto nyinshi zihetse abantu, hagati mu muhanda harimo amatara agaragaza igihe abanyamaguru cyangwa se n'ibinyabiziga bigomba kwambukira.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo bigaragara ko ari aho abantu bambukira, harimo umuntu ufite igare akaba ari kwambuka, harimo n'undi uri kugenda n'amaguru bigaragara ko ari aho abanyamaguru banyura.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo harimo na moto ihetse umugenzi harimo n'indi modoka ukunze kwita ivatiri, k'uruhande rw'uwo muhanda hari akazu karirimo ibara ry'ubururu bigaragare ko ari aho abagenzi bicara bategereje imodoka.

Gukora ingendo byaroroshye kuko mu gihugu hose ahantu hose usanga imodoka zigenda ijoro n'amanywa, ku buryo nta muntu wagira ikibazo ngo kubona uko agera ahantu runaka byamugoye.

Umuhanda munini wa kaburimbo bigaragare ko unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga bya moto, igare, ndetse n'imodoka byose biri kujya mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda dukunda kwita kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, bigaragare ko ari aho abanyamaguru bambukira, hari abamotari baparitse bategereje ko igihe cyabo cyo kugenda kigera bakagenda.

Mu muhanda wa kaburimbo ushaje, imvura yaguye yaretse ku ruhande, hirya hari imodoka ziri kuza ndetse n'umumotari wicaye ategereje umugenzi, ruguru hari ibiti birebire byiza cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo bigaragare ko hahurirwa n'imihanda myinshi harimo imodoka iri mu ibara ry'umukara iri kugenda inyuma yayo hagaze abantu mu mirongo y'umweru bigaragare ko ari aho abanyamaguru bambukira.

Mu muhanda wa kaburimbo mu masaha ya nijoro hari kwaka amatara atari kubonesha cyane. Hari imodoka iri gutambuka, inyuma yiyo modoka hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru bigaragara ko ariho abanyamaguru bambukira harimo umugabo ufite igare, inyuma ye hari harimo moto zihetse abantu babiri ndetse n'akamodoka kari mu bwoko bwa moto gakunze kwifashishwa mu gutwara imizigo.

Mu muhanda wa kaburimbo aho abagenzi bambukira harimo uturongo tw'umweru, imbere hari guturuka moto zicanye amatara, ndetse n'amatara yo ku muhanda ari kwaka, hirya hari ibiti byinshi cyane ahantu hijimye.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko ari munini cyane, urimo ikinyabiziga cya moto ndetse ku ruhande hari akamodoka kari mu ibara ry'ubururu gakunze kwifashishwa mu gutwara imizigo.

ni mu gahanda gato gashashemo amapave kuhande hari icyapa kigaragaza emerekezo handitseho city center umuntu uri kuwu kugendamo yambaye imyenda y'umukara impande yako gahanda hari ibiti bitandukanye ndetse n'ubusitani busa neza

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amamoto ku ruhande hari umurongo urimo utubara tw'umweru n'umukara, hirya hari ipoto y'amashanyarazi ariko idatwaye insinga, ahubwo iriho amatara abiri kuri buri ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo ibara ry'umweru n'umukara, harimo imodoka icanye amatara iri mu ibara ry'ubururu bigaragara ko igeze ahantu abanyamaguru bambukira hashushanyijemo ibara ry'umweru n'umukara, ku ruhande hari umuntu uri kugenda n'amaguru bigaragare ko ari aho abanyamaguru banyura.

Umuhanda munini, bigaragara ko ari ihuriro ry'imihanda igiye ijya ahantu hatandukanye, irimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'indi iri mu ibara rya oranje n'umweru, hakaba harimo na moto, hagati muri uwo muhanda harimo ururabyo ruri hagati, mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abantu bari gutambuka, hirya hari ibiti byinshi, imodoka iri kugenda, muntu uri mu muhanda wenyine, ndetse ruguru gato hari amazu maremare.

Mu muhanda wa kaburimbo, hashushanyije uturongo tw'umweru, aha ngaha ni ho abanyamaguru bambukira. Igihe cyose uhabonye uri kugenda n'ikinyabiziga ugomba kugenda gake, kugira ngo abanyamaguru babanze bambuke; kandi nawe uri kugenda n'amaguru, ntugomba kuharenga utambutse; kugirango hirindwe umutekano wawe mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru ndetse kuruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye ipantaro yumukara ni'shati irimo utubara tw'umutuku, bisa naho ikirere kijimye wagira imvura ishaka kugwa higa aho imodoka iri kugana hari izindi modoka zitagaragara neza ndetse n'ibiti byinshi cyane.